Umugabo wambaye umupira w'ikora, wambaye ipantaro y'ubururu, ahagaze imbere y'akameza gakozwe mu rubaho, acigatiye icyuma ndangururamajwi mu kiganza cye cy'iburyo ndetse akaba ahagaze iruhande rw'abantu, cyangwa se abagore bicaye bambaye imipira ifite ibara risa nk'iry'umupira yambaye, bakaba bicaye munsi y'itente rifite amabara arimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi cyangwa amabara agize ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ipantaro ya kaki ndetse n'ishati uhagaze imbere y'ibyuma bikoreshwa mu kurangurura amajwi ndetse no kuyayungurura ahagaze imbere abwira imbaga y'abantu nyamwinshi harimo abagore ndetse n'abagabo .

Abantu benshi bagiye batandukanye bari mu cyumba k'inama, inama iyobowe n'abayobozi babiri, umugabo ndetse n'umugore, bafite icupa ry'amazi buri muntu ndetse n'abitabiriye inama bafite amazi, mu bitabiriye inama harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ku meza amwe bahujwe n'igikorwa kimwe, imbere yabo hakaba hateretse amacupa y'amazi ndetse n'andi mitobe, hakaba hari utwuma ndangururamajwi, umwe mu bagabo akaba yambaye ikoti ry'umukara, ririho ibendera ry'u Rwanda, ndetse n'ishati y'umweru ufite imisatsi mikeya, hirya yabo hakaba ari icyapa cyanditseho cyangwag se gishushanyijeho amabendera y'amashyaka agiye atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi biganjemo abagore bicaye munsi y'itente ahantu hari ibyatsi, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro kiri mu mabara y'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi, ku meza hateretse uducupa twa'amazi amasakoshi amaterefone yewe n'ibyuma ndangururamajwi.

Imbaga y'abantu biganjemo abagore, bambaye imyenda isa n'imipira yo mu ibara rijya gusa nk'umuhondo. Hariho ikirango cy'igihugu cyangwa se cya repubulika y'u Rwanda, ku ruhande hari akandi karango kari mu ibara ry'umweru. Akaba ari abagore cyangwa se abakobwa bicaye bareba mu cyerekezo kimwe, kandi bari ahantu hasakajwe n'ibitambaro cyangwa se n' itente.

Icyumba kirimo abantu biganjemo abagabo bari kujya inama ku kintu runaka, inyuma yabo hari amashyaka agiye atandukanye, harimo ishyaka rya efuperi ndetse n'andi menshi agiye atandukanye, bambaye amakote y'umukara ndetse umwe muri bo afite icupa ry'amazi.

Abantu benshi biganjemo abagore, bahujwe n'igikorwa kimwe bicaye mu ntebe z'imikara, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo kumeza ndetse na telefone, bubitse umutwe bari kwandika ku mpapuro.

Umugore uhagaze imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi ufite imisatsi miremire wambaye amadarubindi acigatiye icyuma ndangururamajwi, wambaye ikanzu ndende ndetse n'umupira urimo amabara y'ubururu, imbere ye hari umugabo uri gufotora ndetse n'abandi bantu benshi bicaye bamuteze amatwi.

Umugore wambaye ishati y'umweru ifite imirongo imanuka, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ucigatiye icyuma ndangururamajwi mu kiganza cy'ibumoso, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bicaye ari kubabwira, bafite ibikoresho imbere yabo bigiye bitandukanye nka mudasobwa, telefone ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi harimo umugore wambaye umwambaro w'umutuku imisatsi miremire wayifungiye inyuma wambaye amadarubindi, yicaye hagati y'abagabo babiri bafite imisatsi mikeya, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru cyangwa se cyera, hakaba hateretsweho uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahure bari bunyweremo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, wambaye ishapule ku kuboko kw'iburyo ndetse n'isaha y'umukara, ufite imisatsi mikeya, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bamukurikiye kandi inyuma ye hari agapapuro cyangwa se agatambaro gashushanyijeho ibendera ry'Urwanda ndetse handitsweho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Imbaga y'abantumwinshi yiganjemo abagore hakaba harimo n'abagabo, benshi muri bo bambaye imipira y'umuhondo ishushanyijeho ikirango cy'igihugu ndetse n'ibendera ry'u Rwanda. Imbere ya hakaba hicaye abandi bambaye imipira y'icyatsi kibisi ahanditseho ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ikirarango cy'igihugu, bakaba bicaye mu ntebe z'ubururu bicaye imbere y'ameza y'umweru umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bari mu rugero rugiye rutandukanye, harimo urubyiruko ndetse n'abasaza n'abakecuru, bicaye mu nyubako bahurijwe mu gikorwa kimwe bicaye bareba mu cyerekezo kimwe.

Abantu benshi biganjemo abagabo harimo n'umugore umwe ufite imisatsi miremire ishumetse, bayobowe n'umugabo wicaye ku ruhande rwa wenyine, yambaye ikositimu y'umukara ishati y'umweru karuvati ndetse n'amadarubindi, bicaye imbere y'ameza y'urubaho, imbere yabo hari amaterefoni impapuro amakayi ndetse n'amacupa y'amazi.

Urubyiruko nyamwinshi rwambaye imipira y'umuhondo yanditsweho amagambo y'umukara ashushanyijeho ibendera ry'igihugu ndetse n'ikirango cy'igihugu, ayobowe n'abandi bagabo ndetse n'abagore bicaye imbere yabo mu mipira y'icyatsi nayo ari ikirango cy'igihugu ndetse n'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'undi mugore wambaye imyambaro y'ubururu yambarwa n'abashinzwe kurinda umutekano mu gihugu cyangwa se abapolisi.

Abagabo bicaye mu ntebe z'imikara ku meza azengurutse, bambaye amakote cyangwa se amakositimu akunzwe kwambarwa n'abakora mu nzego zitandukanye za kinyamwuga, imbere yabo hari ibikoresho bigiye bitandukanye nk'utwuma ndangururamajwi, amatelefone, amakaye ndetse n'uducupa.

Inzu igurishwa iba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu ikaba ifite amadirishya atatu manini n'umuryango munini ifite urubaraza rusashemo amabuye y'umweru n'umutuku ifite ibikuta bisize amabara y'umweru n'icyatsi n'amabati manini.

Abagabo bagera muri bane, babiri muri bo bambaye amakoti ya kositimu ndetse n'undi akaba yambaye amadarubindi, undi ku ruhande akaba yambaye umupira w'amaboko magufi n'isaha kuboko kw'ibumoso, afite mu kiganza icupa ry'amazi, bicaye mu ntebe z'umukara, imbere y'ameza ibaje mu rubaho, bahanze amaso mu cyerekezo kimwe.

Urubyiruko higanjemo abahungu ndetse n'umukobwa umwe bambaye imyambaro y'udupira tw'ubururu hejuru turiho ikirango cy'u Rwanda ndetse bicaye imbere ku meza hari uducupa tw'amazi ndetse na telefone.

Abagabo ndetse n'abagore bari mu cyumba cy'inama bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Bamwe bari kwandika ku mpapuro, abandi bahanze amaso murandasi zabo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi mu bwoko bw'inyange, kandi imbere yabo hari amashusho bari kugenda bavugaho.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, harimo bake bicaye mu myanya y'umukara cyangwa se y' icyubahiro. Bafite mudasobwa, uducupa tw'amazi kandi bakaba bicaye imbere y'ameza y'uruba. Inyuma yabo hakaba hari abandi bicaye mu ntebe z'imisego zisanzwe kandi nabo bake muribo bafite mudasobwa.

Imbaga y'abantu nyamwinshi higanjemo abanyeshuri bambaye imyambaro yo ku bigo byabo benshi muri bo bambaye utuntu ku mutwe cyangwa se dukunzwe kwambarwa n'abari mu idini rya isalamu, bahujwe n'igikorwa kimwe bicaye bareba mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto, ufite ibifate bibiri, ukikijwe n'ibiti n'ibimera n'indabo wegereye amazu.

Abagabo bagera muri batanu harimo umwe w'umuzungu ndetse benshi muri bo bakaba bambaye amakoti ya kositimu akunzwe kwambarwa n'abakora mu nzego zitandukanye za kinyamwuga, bakaba bicaye ahantu hari tapi y'ubururu ndetse ku ntebe zifite amaguru y'ibyuma, hakaba hateretse kandi udutaburete ku ruhande rwabo dukozwe mu mbaho duteretseho ibirahure by'amazi.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Imbaga y'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu myanya cyangwa se mu ntebe z'umutuku. Bakaba bari mu cyumba kinini, gifite hasi hasizwe amabara y'ubururu ndetse n'igisenge cy'umweru, bakaba bahanze amaso cyangwa se bari kureba ku ruhande rumwe.

Umuntu ufite imisatsi mikeya wambaye umupira uririmo imirongo y'umweru ndetse n'indi y'umukara, wambaye ipantaro n'inkweto zifunguye hasi z'umweru, akaba ahetse agakapu gatoya ari kugana ahacururizwa ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, hakaba hakorerwamo n'izindi serivisi zitandukanye nk'Irembo.

Inyubako ndende igeretse isizwe amarangi cyangwa se amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, hejuru yawo hakaba hari ibindi byuma, ikaba ikikijwe n'urugo rwubatswe mu matafari ahiye ndetse n'ibiti.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo yiganjemo ay'umukara, hakaba hari akandi gapapuro kariho kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo kanditseho irembo, hakaba hari amagambo yanditsweho ari mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza.

Agashusho cyangwa se agapapuro kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, kanditsweho amagambo mu kirimi cy'Ikinyarwanda mu ibara ry'umweru ndetse n'irindi ry'umuhondo. Ikaba yanditse ruguru y'ahari ishusho ya mudasobwa ifunguye cyangwa se icanye, yiganjemo amabara y'umweru kandi handitsweho amagambo mu ibara ry'umukara. Hasi y'agapapuro cyangwa se y'agashusho hakaba hariho ikirango cya Rwanda Reveni Otoriti, ikigo gishinzwe ibikorwa byose bijyanye n'imisoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Agapapuro kari mu ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu kandiditseho amagambo y'umweru ndetse hakaba hashushanyijeho nk'udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye akaba ari amagambo yanditswe mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza.

Akazu gatoya kiganjemo amabara y'umuhondo, ndetse harimo n'andi mabara y'umukara, n'inyuguti zanditswe mu ibara ry'umukara, mu kirimi cy'Icyongereza se cyangwa se cy'amahanga. Akaba ari akazu kubakiye ahantu hatuje, hari umuhanda w'amabuye, ndetse n'ibyatsi ku ruhande biteye.

Agapapuro k'umweru cyangwa se kera, ku ruhande handitseho amagambo arimo ibara ry'umukara yanditswe ku ibara ry'umuhondo, ari mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza, ku ruhande rwayo hakaba hari amatelefoni ndetse n'akandi kuma k'amashanyarazi, hakaba harimo ikirango cya rwanda reveniyu otoriti, ikigo gishinzwe ibikorwa byose bijyanye n'imisoro mu gihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'ibara ry'umweru cyangwa se ryera rwanditsweho amagambo y'umukara atsindagiye ndetse n'adatsindagiye, akaba afite umutwe w'amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, uvuga amasaha y'akazi mashya, hejuru yawo hakaba hari ikirango cy'u Rwanda.

Abagabo bambaye amajeri ndetse n'ingofero z'amabarage agiye atandukanye bari ahari kubera igikorwa cyo kubakwa, ahari amasima, amajerekani, imigozi ndetse n'ibyuma, aba bagabo bakaba bahujwe n'igikorwa cyo kubaka.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi miremire, wicaye wogeretse akaguru ku kandi, yambaye umupira w'ubururu, ipantaro ndetse n'inkweto z'umweru, yicaye mu ntebe z'imisego akaba ari ahantu hari amabara y'ubururu, ndetse yanditswemo amagambo y'ibara ry'umweru ndetse n'imibare, akaba ari amagambo yanditswe mu kirimi cy'amahanga cyangwa se cy'icyongereza.

Igipapuro cy’umweru cyanditsweho amagambo menshi ari mu ibara ry’umukara, yanditswe mu kirimi cy’amahanga cy’icyongereza. Hejuru ku gapapuro hakaba handitswe inyuguti z’imikarari itsindagiye, ndetse ku ruhande kaba ari ikirango cya Repubulika y’u Rwanda.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru n'amadarubindi, wicaye mu ntebe y'umukara, ucigatiye icyuma n'indangururamajwi, ndetse wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso. Ari gutunga agatoki amagambo yanditswe mu mweru mu kirimi cy'amahanga, ndetse yicaye imbere y'ameza ariho amacupa y'amazi, mudasobwa ndetse na telefoni.

Urupapuro rw'ibara ry'umweru cyangwa se ryera ruriho agashushanyo gashushanyijeho amakontineri ndetse n'andi magambo yanditswe mu kirimi cy'amahanga k'icyongereza, ruguru yako hakaba hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse hakaba hari n'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu harimo abagabo batatu ndetse n'umugore bahagaze inyuma y'undi mugore ufite imisatsi miremire wicaye imbere ya mudasobwa. Ku ruhande hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'imisatsi mikeya uri kureba abo bagabo bahagaze inyuma y'umukobwa.

Aka agapapuro k'umweru gafite ikirango cya repubulika y'igihugu y' u Rwanda, gafite umutwe wanditswe mu magambo y'ubururu, andi magambo yo hasi akaba ari umukara; agapapuro kakaba kamenyesha cyangwa se gatanga itangazo y'iminsi y'ikiruhuko rusange mu gihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro cyangwa se ifishi iri mu ibara ry'umweru harimo n'andi mabara menshi atandukanye, hakaba ariho ikirangantego cyanditseho Rwanda na c ndetse na a ndetse na a. Hakaba harimo andi mabara atandukanye nk'icyatsi ndetse n'umutuku byandikishijwe ikirimi cy'indimi z'amahanga cy'icyongereza.

Abagabo babiri, umwe muri bo wambaye umupira wa maboko maremare w'umukara, ndetse n'undi uri kumureba wambaye ingofero n'umupira w'amakora w'icyatsi urimo imirongo y'umweru, baricaye bari kureba muri mudasobwa, imbere yabo hari ibipapuro.

Umugabo ufite imisatsi mikeya wambaye ishapure n'umupira w'umweru wanditseho irembo, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi irimo abana, abagore ndetse n'abagabo. Akaba ahagaze ahantu hari mudasobwa nyinshi ndetse n'ibindi byuma bikoresha amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Agapapuro k'umweru handikishwaho cyangwa se hariho andi mabara atandukanye nk'umuhondo'ubururu ndetse n'umukara. Kandikijweho amagambo arimo ibara ry'umukara hashushanyijeho intebe ndetse ariho n'andi mabara nk'umuhondo cyangwag se ubururu, hejuru y'ibara ry'umuhondo hariho ikirangantego cya aradibi.

Agapapuro cyangwa se agashusho kari mu ibara ry'umweru cyangwa se ryera hariho mudasobwa hagati yako ifunguye iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo y'ubururu hakaba handitsweho kandi n'andi magambo arimo ibara ry'ubururu hejuru yako hakaba handitseho irembo akaba ari apapuro kari kwerekana cyangwa se gasobanurira abantu cyangwa se abaturarwanda uko serivisi y'irembo ikorwamo.

Uyu ni umugabo wambaye ishati n'umupira w'umweru, akaba ari guseka, mu biganza bye akaba afashe telefone yanditsemo amagambo agiye atandukanye.

Inote y'ibihumbi makumyabiri y'amafaranga ya Kongo ikaba, igizwe n'ibirango biriho gasumbashyamba hakaba hanariho n'umugore w'ikibumbano ushushanyijemo.

Ipoto ry'amashanyarazi rikozwe muri sima, rishinzwe gukwirakwiza insinga hirya no hino mu duce runaka, rikaba rishinze mu byatsi ahateye n'ibiti bigiye bitandukanye ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, munsi yaryo hari amazu abiri asakajwe amategura ndetse asize amarangi atandukanye, imwe mu nzu ifite ibigega bibiri ndetse n'icyuma gishinzwe gukurura amarezo ndetse n'amashusho.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Ipoto ry'amashanyarazi ry'umukara, rishinzwe gukwirakwiza insinga, mu duce tujye dutandukanyeteye mu byatsi hakurya y'umuhanda imbere y'urukuta rusizwe irangi ryyumweru ruguru y'izu.

Ipoto rirerire ryubatswe hakoreshejwe isima, rishumikiyeweho insinga zitandukanye rikaba rishinzwe guhuza insinga, cyangwa se kuzikwirakwiza mu duce runaka, cyane cyane rikaba rikoreshwa mu Rwanda. Ku ruhande hakaba hari ikimenyetso gishushanyijeho agasaraba kerekana ivuriro cyangwa se ahari ivuriro.

Umunara muremure wubakishijwe mu byuma ushinzwe gukwirakwiza insinga hirya no hino, munsi yawo hakaba hari andi mapoto abiri ashinzwe gukwirakwiza insinga. Bikaba bishinze iruhande rw'inyubako yubatswe mu matafari ahiye ndetse bikaba bikikijwe n'ibyatsi bigufi ndetse n'ibiti.

Inyubako isize amarange y'umweru, isakajwe n'amabati y'umutuku, ifite nomero y'gipangu ya mirongo itatu na gatatu, kandi ifite igipangu cyirabura, cyangwa se cy'umukara. Hejuru y'igipangu hakaba hariho itara, ndetse mo imbere hakaba hari amakamera, cyangwa se ibyuma byerekana amashusho y'ibiri kubera ahongaho.

Ipoto rishinzwe gusakaza imigozi y'amashanyarazi mu gace runaka, kandi rikaba rihagaze mu biti cyangwa se n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, ipoto rirerire, riri ahantu hirangiriye.

Ipoto ry'igiti rishinzwe gukwirakwiza insinga hirya no hino mu duce, rikaba rishinze ahateye ibyatsi ndetse n'ibindi biti byo mu bwoko butandukanye, bikaba biri iruhande rw'inyubako igeretse isize amabara yiganjemo ay'ubururu ndetse arimo n'ay'umutuku.

Ipoto ry'amashanyarazi rishinzwe gukwirakwiza insinga mu duce hirya no hino, ishinze mu byatsi ruguru y'umuhanda wa kaburimbo, usizwemo umurongo w'umweru urombereje udacagaguye; iri imbere y'inyubako ifite urugo rwubakishijwe amabuye ndetse n'igipangu kiri mu mabara y'ubururu.

Amapoto y'amashanyarazi ashinzwe gukwirakwiza insinga ahantu runaka, ashinze ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru urimo ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande hari abanyamaguru ndetse n'ibyapa biranga uko umuhanda ukwiye gukoreshwa.

Inyubako nini igeretse yubakiwe ubucuruzi imbere yayo hari ipoto y'amashanyarazi ikwirakwiza insinga mu duce tugiye dutandukanye.

Amapoto y'amashanyarazi ashinze mu byatsi akozwe muri sima, ashinzwe gukwirakwiza insinga mu duce runaka; hakaba atereye hejuru y'inzu isakaje amabati atukura, ndetse ariho n'ibyuma bikwiye gukurura amashusho ndetse n'amarezo, ku ruhande hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Iduka rifunguye ricuruza ibikoresho byo mu nzu, matora, intebe zikoze mu buryo butandukanye, ameza, utubati, tujyamo inkweto n'utwo bashyiramo ibindi bintu, intebe za purasitike zigerekeranye.

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Abantu babiri bahagaze ndetse n’umwe wicaye wambaye umwambaro w'umuhondo, cyangwa se wambikwa abakozi ba MTN bahagaze munsi y’umutaka wibara ry'umuhondo, bakaba bahagaze imbere y’ipoto rishinzwe gukwirakwiza insinga m’ugihugu.

Abagore b'imisatsi miremire ndetse n'umugabo uhagaze wambaye imyenda y'imikara n'amarinete, bari ahantu hamwe bategereje serivisi zigiye zitandukanye, harimo serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza za emutiyene.

Akazu gatoya gafite umuryango usize ibara ry'umweru kubabakiye hagati mu byatsi bigufi cyangwag se pasuparume, kari hagati y'ibiti birebire, ku ruhande hakaba hari n'indi nyubako ifite inkingi z'ibyuma.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abahagaze bari kwa muganga, bahanze amaso imodoka zishinzwe gufasha abarwayi barembye cyangwa se kubashyikiriza ku bitaro cyangwa se ku mavuriro, ndetse inyuma yaho hakaba hari ibyuma bishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro.

Ahantu heza hasukuye by'intangarugero bigaragara ko hafatirwa amafunguro, harimwo intebe nziza ndetse n'ameza, iruhande hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa.

Umugabo wambaye imyambaro bambikwa imfungwa cyangwa se abahamijwe n'ibyaha mu rwanda, yambaye agapfukawa k'umweru acigatiye ibitabo cyangwa se amakayi ukuboko kw'ibumoso. Ahagaze imbere y'icyumba kirimo ameza cg se aho basomera urubanza.

Urupapuro rwera cyangwa se rw'umweru rwanditsweho amagambo menshi cyane mu kirimi cy'Ikinyarwanda, amagambo akaba yiganjemo ayanditswe mu ibara ry'umukara atsindagiye ndetse n'adatsindagiye, andi akaba yanditswe mu ibara ry'umweru arimo irindi bara ry'umutuku ndetse n'andi yanditswe mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo uhagaze imbere y'ahashushanyije ikirango cya repubulika y'u Rwanda, wambaye amadarubindi, ufite imisatsi mike cyane n'ikoti rya kositimu, ishati y'umweru ndetse na karuvati, akaba acigatiye mu kiganza cy'iburyo icyuma ndangururamajwi cyangwa se mikoro.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rw'ibara ryera rwanditsweho amagambo menshi atsindagiye ndetse n'adatsindagiye mu ibara ry'umukara, akaba ari amagambo yanditswe mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza.

Abantu bambaye imyenda y'umukara ndetse n'akantu k'umweru ku ijosi bambaye, udupfukamunwa, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, umwe muri bo uhagaze afashe ku ibedera ry'u Rwanda n'ikiganza k'ibumoso n'ikiganza k'iburyo hejuru.

Agapapuro k'umweru cyangwa se kera kanditsweho amagambo yiganjemo ay'umukara ndetse harimo n'andi y'ubururu ruguru yako cyangwa se hejuru y'agapapuro hakaba hariho ikirango cy'igihugu cya repubulika y'u rwanda.

Abagabo babiri b'abacamanza bambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'umweru ku ruhande rwabo hari ingofero ndetse n'amacupa y'amazi umwe muri bo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'ikaramu mu ntoki .

Urupapuro ruri mu ibara ryera cyangwa se ry'umweru rwanditsweho amagambo menshi y'ibara ry'umukara harimo atsindagiye ndetse n'adatsindagiye, akaba ari amagambo yanditswe ku murongo cyangwa se ari mu buryo butondetse neza, akaba ari amagambo yanditswe mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

Umugore w'inzobe, wambaye ingofero, ufite imisatsi miremire, wambaye amadarubindi ndetse n'amaherena ku matwi. Akaba yambaye umwambaro wamabara y'umutuku, umweru, ndetse n'umukara, umwambaro wambarwa n'abakora mu nzego z'abacamanza cyangwag se abashinjacyaha, ndetse n'abavoka.

Umuntu wambaye amadarubindi n'imyambaro y'iroza cyangwa se imyambaro bambikwa bahamijwe n'ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se imfungwa, akaba ahahagaze imbere y'abagabo babiri umwe w'umuzungu undi wirabura bombi bambaye amadarubindi, bakaba bambaye n'imyambaro isa yiganjemo ibara ry'umukara ndetse harimo n'akantu k'umweru, Umugabo wirabura akaba afite igitabo

Abantu batatu harimo umugore ndetse n'umugabo bambaye imyenda isa bose n'ingofero amashati ndetse n'amapantaro ari mu ibara rya kaki, bakaba bahagaze imbere y'ikinyabiziga, hakaba hari undi wambaye imyambaro isa y'iroza cyangwa se imyambaro yambikwa imfungwa mu Rwanda, bakaba bamuherekeje yambaye amadarubindi ndetse n'amapingu.

Agapapuro k'umweru kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, handitseho amagambo yo mu kirimi cy'amahanga ruguru, ariko harimo n'amagambo yo mu kinyarwanda ariho nk'amazina nka perezida Paul Kgame ndetse n'andi mazina agiye atandukanye.

Umugabo ufite imisatsi mike cyane n'ubwanwa buke, yambaye ishati y'uroza cyangwa se umwambaro wambikwa imfungwa, akaba ari kureba mu gitabo k'impapuro z'umweru ndetse gifite agafuniko k'ubururu, iruhande rwe hari imbaga y'abantu ivanzemo abagore ndetse n'abagabo bari kumureba.

Agapapuro k'umweru cyangwa se kera kandiditswe amagambo yiganjemo y'umukara adatsindagiye, ndetse hakaba harimo n'atsindagiye imibare ndetse n'utundi tumenyetso tugiye dutandukanye, akaba ari amagambo yanditswe mu kirimi cy'Ikinyarwanda, afite imitwe cyangwa se umutwe wanditse mu magambo atsindagiyemo ibara ry'umutuku ndetse n'irindi ry'umuhondo.

Abagabo benshi bari mucyumba cy'inama cyangwa se aho bacira imanza akaba ari umugabo umwe muri bo wambaye ikoti rya kositimu y'ibara risa n'ipantaro yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara yambaye agapfukamunwa k'umweru akaba ahagaze hagati y'abagabo babiri bambaye imyenda isa yiganjemo iy'umukara ndetse hari n'agatambaro k'umweru mu ijosi

Abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe cyangwa se umugore bicaye mu ntebe z'umukara, bambaye imyambaro bose isa yiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'akantu k'umweru ahagana mu ijosi, bakaba bicaye imbere y'ameza iriho ibipapuro, terefone ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Umugabo ufite imisatsi mikeya uhagaze wambaye umwambaro w'ibara ry'umutuku ufite n'akantu k'umweru mu ijosi, akaba yambariyemo ishati y'umweru y'imirongo y'umukara ndetse na karuvati, akaba ari umwambaro ukunda kwambarwa n'abacamanza.

Abantu bagera muri bane harimo umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umwambaro wambarwa n'abashinzwe cyangwa se n'ababungabunga umutekano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abapolisi, ahagaze areba mu biganza umugabo umuhagaze imbere, wambaye amadarubindi umupira wambariyemo ishati y'umweru, ku ruhande rwabo hakaba hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye umwambaro w'umukara ndetse n'undi ubahagaze inyuma wambaye umwambaro w'ubururu ndetse n'ingofero.

Abantu bagera muri batanu bicaye mu ntebe z'imikara, bambaye imyenda isa y'imikara, ndetse ifite akantu mu ijosi k'umweru kamanuka n’udupfukamunwa. Batatu muri bo bari imbere, bafite mudasobwa imbere yabo, ndetse n'impapuro na terefone kuruhande, n’akuma kamwe ndangururamajwi.

Agapapuro k'ibara ry'umweru cyangwa se ryera kanditsweho amagambo menshi yo mu kirimi cy'ikinyarwanda, amagambo ari mu ibara ry'umukara hariho udushushanyo, imibare ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, hakaba harimo amagambo atsindagiye ndetse n'agatsindagiye, akaba ari amagambo afite umutwe uri mu rindi bara ritandukanye.

Ni inyubako iriho icyapa, kigaragaza ko ari mu karere ka Nyanza, uruganda rutunganya ibikomoka ku nka. Hari amata, hari yawurute, hari ayo mu tujerekani, ndetse n'amata yo mu dukombe. Uru ruganda ruherereye i Nyanza.

Umugabo ufite imisatsi mikeya, ufite ubwanwa, wambaye ijaketi irimo amabara menshi atandukanye, nk'ubururu, umweru, umukara ndetse n'andi, ndetse n'ishati y'amaboko maremare, ari kureba ahantu.

Umugabo ufite imisatsi mike cyane ,amadarubindi ndetse akaba yambaye umwambaro w'ibara ry'iroza .Uyu mwambaro ukaba wambikwa abantu bahamijwe n'ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se imfungwa.

Umugabo wirabura ufite imisatsi mikeya n'ubwanwa, yambaye umwambaro w'umutuku urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, mo imbere yambayemo ishati ndetse na karuvati y'umukara, yambaye imyambaro ikunzwe kwambara mu bantu bakora mu nzego z'ubucamanza ubushinjacyaha cyangwa se ubu avoka.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bicaye ndetse n'abahagaze, bamwe bicaye imbere yabo bicaye ku ntebe y'igiti imbere yabo hari ameza bambaye udutambaro tw'amabara arimo ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi cyangwa se amabara agize ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, mu babakurikiye baricaye bahanze amaso.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyambaro bose isa iri mu ibara ry'umukara, bicaye mu ntebe z'umutuku imbere bakaba hicaye abandi bicaye ku meza n'intebe z'imikara z'icyubahiro bambaye uwo amabara y'umutuku mu myambaro yabo ndetse n'ingofero hagati yabo y'abicaye ndetse n'ababicaye imbere hakaba hari amabendera agera muri arindwi y'igihugu cy'u rwanda, cyangwa se akaba ari icyumba cyateraniwemo n'abacamanza.

Ikirango cyometse cyangwa se gishushanyije ku rupapuro rwera cyangwa se rw'umweru, akaba ari ikirango kiri mu ishusho y'uruziga kirimo amabara menshi atandukanye yiganjemo ay'umweru, ndetse n'icyatsi hasi yacyo hakaba hari amagambo yanditswe mu kinyarwanda mu ibara ry'umukara agira ati inkiko gacaca; akaba iri mu ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi amabara agize ibendera ry'u Rwanda. Hagati mu kirango yashushanyijemo abantu, ibiti ndetse n'abandi bicaye inyuma y'ameza.

Icyicaro cya Polisi kiri ku muhima. Imbere y'imiryango ya Polisi hari ibinyabiziga bya Polisi ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Umugabo wambaye imyambaro y'abashinzwe kureba cyangwa se kubungabunga umutekano wo mu muhanda; ahagaze mu kayira k'abanyamaguru, ndetse hakaba ahagaze ahari kubera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye.

Igikoresho gishinzwe cyangwa se kidufasha kuzimya inkongi y'umuriro. Akaba ari igikoresho kimanitse, kiri mu ibara ry'umutuku. Ku ruhande rwacyo hakaba ari agapapuro, kerekana uburyo gikwiye gukoreshwamo neza.

Abagabo babiri bambaye imyambaro y'ubururu n'ingofero y'umweru imyambaro yambarwa n'abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro aho yabaye, hakaba hari imodoka iri mu mabara y'umweru yubwoko bw'ikamyo yafashwe n'inkongi y'umuriro ishinzwe kujyana amavuta ndetse n'ibindi bicanwa.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa ndetse n'ingofero z'umweru bashinzwe kwita ndetse no kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro, bafite umupira w'amazi urimo ibara ritukura, bari kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro bahagaze imbere y'ikinyabiziga cyangwa se y'imodoka iri mu ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga bibiri bihagaze hagati mu muhanda, kimwe mu kinyabiziga cyahuye n'ikibazo n'inkongi y'umuriro, inyuma yacyo hari abagabo babiri, umwe muri bo yambaye imyenda y'abashinzwe kwita kuri icyo kibazo cy'inkongi y'umuriro ndetse no kuyizimya.

Umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe gutabara ahabereye inkongi y'umuriro, ari gutera amazi azimya imodoka iri mu ubwoko bw'ikamyo, isize irangi ry'umweru yahuye n'ikibazo cyo gufatwa n'inkongi y'umuriro, kandi iyo modoka ikaba ishinzwe kujyana peteroli.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe yateye mu nzu mu gihe gitunguranye, akaba ari ibikoresho bikunzezwe kwitwa kizimyamwoto mu ndimi z'amahanga, bikaba bimanitse ku rukuta rwera cyangwag se rusizwe ibara ry'umweru byaba biteretse iruhande rw'agatebo gashyirwamo ibikoresho byarangije gukoreshwa cyangwa se imyanda.

Abantu benshi harimo abambaye imyenda isa, yambikwa abakozi b'ikigo gishinzwe kubungabunga cyangwa se gutanga umutekano cyitwa Isiko, bakaba bahagaze inyuma y'undi mugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'ay'umuhondo, akaba ari umugabo usa nk'aho ari kubabwira amabwiriza cyangwa se kubasobanurira.

Abayobozi b'ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto cyangwa se by'amapine abiri, bahagaze ku murongo umwe imbere, yabo hakaba hari umugabo wambaye imyambaro y'abantu bakora mu nzego zishinzwe umutekano mu gihugu cyangwa se polisi.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye umupira w'ishyaka rya FPR w'umweru n'ipantaro y'umukara yambaye ingofero hejuru ku mutwe n'amadarubindi inyuma ye hari imbaga y'abantu bari kumwakira neza .

Umugabo ufite imisatsi myinshi wirabura yambaye ikositimu y'umukara ishati y'umweru ndetse na karuvati, akab ari imyambaro cyangwa se umwambaro wambarwa kenshi n'abakora mu nzego nyinshi zitandukanye cyangwa se nakwiti iz'icyubahiro.

Nyiricyubahiro Umuyobozi w'Igihugu cy'u Rwanda, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, mu kiganza k'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi ku ruhande, yicaye hagati y'abantu, abantu benshi bamuhanze amaso.

Umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame ari gutanga ijambo, inyuma ye hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'ikirango cy'u Rwanda, inyuma ye hari abandi bayobozi bagiye batandukanye bamuhanze amaso ndetse n'abo ari kubwira.

Umugore wambaye amadarubindi wafungiye imisatsi inyuma, wambaye amaherena ndetse n'akantu mu ijosi, wakenyeye imikenyerero iri mu ibara ry'iroza, akaba yamanitse ikiganza k'iburyo yafashe ku ibendera ry'U rwanda.

Imbaga y'abantu nyamwinshi biganjemo abagore bicaye mu cyumba k'inama mu ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari amatara amacupa y'amazi ndetse n'ibikorwa n'ibikoresho bya eregitoronike byinshi bitandukanye, bakaba bicaye bareba mu ruhande rumwe bahanze amaso umuntu cyangwa ikintu kimwe.

Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yambaye umwambaro w'ishyaka rya efuperi w'umweru, ari gusuhuza abantu, akikijwe n'abagabo benshi bambaye imyambaro y'abashinzwe kubungabunga umutekano mu gihugu kandi bafite intwaro.

Abagabo bagera muri batatu babiri muri bo bambaye amakoti ya kositimu ndetse n'undi yambaye umupira w'umweru wanditsweho amagambo y'umukara, bahagaze imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi bicaye babahanze amaso b'abaturage batandukanye.

Umugabo wambaye kositimu, ishati y'umweru ndetse na karavati, yambaye amadarubindi afite imisatsi mikeya, yambaye umwambaro ukunzwe kwambara n'abantu bakora mu nzego zitandukanye zikoresha ikinyamwuga.

Abagabo bane bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hari icyuma ndangururamajwi, bambaye amakote atandukanye kandi bahanze amaso ku kintu kimwe.

Nyiricyubahiro perezida wa repubulika Paul Kagame wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'amadarubindi ahagaze iruhande rw'umugore we wambaye umukenyero w'ubururu n'amadarubindi n'agapira k'umukara, ku ruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umugabo wambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara bita bakunze kwita umucamanza.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera ruriho n'irindi bara ry'ubururu, hakaba handitsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru, hakaba handitsweho amagambo ari mu kirimi cy'amahanga cyangwa se Icyongereza.

Umugabo wambaye ikote rya kositimu ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, umupira w'umweru yawutebeje, ahagaze imbere y'icyuma ndangururamajwi kandi ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye biganjemo abagore.

Umugabo wambaye ikoti rya kositimu ry'umukara, harimo uturongo dutoya tw'umweru tumanuka ,yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati, yambaye amadarubindi kandi ahagaze imbere y'ahantu hafashe utwuma ndangururamajwi tugera muri tubiri.

Abagore basaga bane ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ndetse na karuvati bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari ibintu byinshi bitandukanye nk'uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'utwuma ndangururamajwi, inyuma yabo hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu harimo abagore ndetse n'abagabo, abagabo bakaba bambaye imyenda yiganjemo amakositimu ndetse n'amakaruvati, abagore bakaba bambaye imyenda bita imikenyero, batatu muri bo bakaba bicaye, abandi bakaba bahagaze inyuma yabo ndetse inyuma yabo hari urukuta ruri mu ibara ry'umweru hariho udushusho cyangwa se amafoto y'imitako.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Abantu benshi bagana ahantu hamwe batonze umurongo. Bari kugana mu nyubako isakaje amabati y'ubururu. Inyubako ikaba izengurutswe n'udutako tw'udutambaro turi mu mumabara menshi atandukanye, nk'icyatsi, ubururu, umuhondo, ndetse n'andi menshi atandukanye.

Umugabo ufite imisatsi itari myinshi cyane wirabura, ufite icyuma ndangurura majwi ndetse n'ibendera mu kiganza k'ibumoso yambaye impeta ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, yambaba umupira w'umweru urimo n'andi mabara atandukanye nk'umuhondo ndetse n'icyatsi, akaba ahagaze mu mbaga y'abantu nyamwinshi bicaye.

Abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye bareba mu ruhande rumwe mu ntebe z'umukara, bari mucyumba cy'inama bahujwe n'igikorwa kimwe ndetse benshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo, uducupa tw'amazi ndetse n'amatelefone.

Abantu benshi bayobowe n'umugore bari gusuhuza ku ruhande ndetse n'abandi bagabo babiri bamuri iruhande bambaye, imyambaro y'abashinzwe kubungabunga umutekano mu baturage.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze ahantu hamwe bareba mu cyerekezo kimwe, akaba ari abagabo bambaye imyenda ya kositimu ikunzwe kwambara n'abakora mu nzego zo hejuru cyangwa se abanyacyubahiro, umwe mu bagabo akaba ari perezida Paul Kagame umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda wambaye amadarubindi.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Umugabo wambaye kositimu y'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karuvati, ufite imisatsi mike, yicaye imbere ya mudasobwa ye, ndetse hakaba amuteretswe imbere n'utundi twuma twinshi ndangururamajwi, tw'amateleviziyo akorera mu gihugu menshi, agiye atandukanye.

Abagore bambaye imikenyero, bose bafashe ibendera ry'u Rwanda mu kiganza cy'ibumoso, bamanitse ikiganza cy'iburyo cyangwa se bari mu gikorwa cyo kurahira.

Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari gushyikiriza itora ryiwe mu gasanduku, inyuma hakaba hari ikimera ndetse n'ifoto iriho imisozi ndetse n'ibimera.

Umugore ufite imisatsi myinshi wayishumikiye inyuma, uhagaze imbere y'gitambaro kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, cyangwa se amabara aranze ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Afite agapapuro mu kiganza cy'iburyo ari kugashyikiriza mu gasanduku k'itora.

Umugore wambaye imyenda ikozwe mu bitenge ufite umusatsi mwinshi kandi wambaye impeta ku kiganza cy'ibumoso, ahagaze inyuma afashe ku rutugu abana babiri b'abahungu bafite imisatsi mikeya, bambaye amakoti ya kositimu asa ajya gusa nk'ubururu ndetse bose bakaba bambaye n'amashati y'umweru n'amakaruvati.

Ibinyabiziga bibiri biri kubisikana biri mu bwoko bw'amakamyo kimwe muri byo kikaba gisize amabara y'umukara, ikindi kikaba gisize amabara y'umutuku kikaba kikorewe cyangwa se gihetse amatafari y'isima.

Ikinyabiziga kiririmo ubwoko bw'ikamyo isize amabara y'umweru ndetse handitsweho amagambo mu ibara ry'ubururu, kiri kugendera muri kaburimbo cyangwa se umuhanda w'umukara usizwemo imirongo y'umweru icagaguye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ndetse n'abanyamaguru. Umugore uri gukora amasuku mu muhanda, igare, ndetse n'ikinyabiziga mbere cyo mu bwoko bw'ikamyo, kiriho gupakirwamo cyangwa se gupakururwamo imifuka.

Muri gare ya Nyabugogo amatara bayacanye bigaragara ko bwije, abantu baracyari muri gare amamodoka ntabwo ari menshi cyane bigaragara ko aba bantu bashobora kuba babuze imodoka zibacyura ndetse ku ruhande hariho na bisi nini itwara abaturage.

Umwe mu muhanda wo mu Rwanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye mu muhanda harimo ibinyabiziga bibiri ipikipiki ishinzwe gutwara abantu ndetse n'imodoka isanzwe.

Abagore babiri bari gukoresha ku nkengero z'umuhanda, ahagenewe abanyamaguru umwe muri bo akaba yambaye umwambaro wagenewe abakozi ba emutiyene w'umuhondo umuhanda rwagati cyangwag se muri kaburimbo hakaba harimo ikinyabiziga cyangwag se ikamyo isize amabara y'umutuku, hirya y'umuhanda akaba hateye ibiti birebire ndetse hakaba hari n'ibindi bikorwa biri gukorerwa inyuma y'ahapfutswe igitambaro cy'icyatsi.

Umuhanda wo m'u Rwanda ugaragaramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki yagenewe gutwara abagenzi m'umuhanda w'u Rwanda, imodoka z'abantu bo ku giti cyabo, ndetse n'ikamyo yagenewe gukora imwe mu mirimo y'ubwubatsi.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye no mu binyabiziga harimo imodoka nini iri mu bwoko bwa bisi yagenewe gutwara abagenzi hakaba harimo ibinyabiziga bibiri by'ibinyamitendebiri cyangwa se amapikipiki ndetse n'imodoka isize irangi ry'umweru ihetse ibintu.

Icyumba cy'inama kirimo abayitabiriye bari mu mwambaro usa w'umweruru imipira y'umweru, ameza ariho ibitambaro by'umukara, hariho amazi n'udutabo n'intebe ziri mu ibara ry'umutuku imbere yabo hari porojegiteri, ikimurika kibereka ingingo bari bwigeho cyangwa ibyo bari kwigaho.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyegare ndetse n'ipikipiki y'amapine atatu iri kugana mu kindi cyerekezo, hirya yawo hakaba hari umuntu uhagaze ndetse inyuma ye akaba hari inzu yubakishijwe amabati y'ubururu ndetse n'indi isize amarangi y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo cg se w'umukara urimo ibinyabiziga bibiri, kimwe muri byo gifite amapine atatu cyangwa se ni moto, ikindi kiri mu bwoko bw'ikamyo kikoreye amamatela ari kujyanwa aho agurishirizwa cyangwa se aho atunganyirizwa.

Umuhanda wa kaburimbo uri gukoreshwamo n'ikinyabiziga cyangwa se n'ikamyo isize amabara y'umweru, hakaba hari abanyamaguru bari ku nkengero z'umuhanda, aho abanyamaguru bakoresha hakaba hari gukorerwa ibikorwa byo kubaka, hirya y'umuhanda ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Imodoka zigera muri ebyiri ziri mu mabara y'umweru, cyangwa se bakunze kwita tagisi, zihagaze ku ruhande rw'umuhanda, hagati mu mirongo iciye mu ibara ry'umweru, ahategererezwa abagenzi, akaba ku ruhande hari umuhanda w'abanyamaguru hari kunyurwaho umugabo wambaye inkweto z'umweru ipantaro yubururu ndetse n'umupira.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara usizweho umurongo w'umweru uri ku ruhande rwawo, ukaba ari gukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo ikinyabiziga kigufiya cyangwa se bakunze kwita bisi ntoya, ikaba iri mu mabara y'umweru irimo n'udushusho tw'icyatsi dutoya, yakije amatara ndetse ku ruhande hakaba hari abanyamaguru ndetse n'abandi bayobozi bari gukoresha ibinyabiziga byinshi bitandukanye.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo uri gukoreshwa n'abantu benshi batandukanye, umwe muri bo akaba ari gucunga akanyayabiziga ke kari mu ibara ry'icyatsi wambaye inkweto z'umuhondo ipantaro y'umukara ndetse n'akambaro k'ubururu. Akaba ari kugenda agana ku nyubako iri gukorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye byiganjemo iby'ubucuruzi.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse na bote wambaye ijire y'icyatsi ari gukora isuku ashyira mu ngorofani ndetse ku ruhande hakaba hari igiti hinokaba hari imodoka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, kimwe muri ibyo binyabiziga harimo: imodoka yo m'ubwoko bw'ikamyo isize ibara ry'umutuku yikore umucanga, iruhande hari inyubako ndetse n'igiti.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Ikinyabiziga cyangwa se igikamyo kinini kiri mu mabara atandukanye nk'ubururu ndetse n'umweru kikaba kiriho ifoto ku idirishya cyangwag se ku kirahure cyacyo cy'umugabo ufite imisatsi miremire ndetse n'umupira w'umuhondo, kikaba ari ikinyabiziga gihagaze ku ruhande cyangwa se giparitse kirindiye ko bagipakiramo imizigo.

Ikinyabiziga cyangwa se imodoka y'ibara ry'umweru, gihagaze ruguru y'umuhanda imbere y'igipangu cy'umukara, kiri imbere y'inzira y'abanyamaguru, iruhande hakaba hari kubera ibikorwa byinshi bitandukanye, hakaba haparitse n'izindi modoka cyangwag se ibindi binyabiziga. hakaba hari n'ibyapa byamamaza ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo udasizemo imirongo y'mweru cyangwag se y'umukara, ku nkengero zawo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'amatara asize amabara y'umweru amurika mu muhanda rwagati. Mu muhanda hakaba harimo imodoka nini cyangwag kwasiteri itwara abagenzi, iri mu mabara y'ubururu umweru ndetse n'agahondo gakeya.

Abantu benshi biganjemo abana bahagaze aha kubera imikino y'abana hamanitse amabendera y'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye harimo Poritigali Romaniya ndetse n'ibindi byinshi bakaba bahagaze imbere y'inyubako nini yiganjemo ibirahure ndetse ikaba isize amarangi y'umuhondo.

Ahagenewe kuruhukira cyangwa se kwicara muri Kigali ari udutebe dukozwe mu mbaho ndetse no mu isima, hateye pasiparume ibindi byatsi birimo ubundi bwoko ndetse n'ibiti birebire bishinzwe gutanga akayaga hirya gato hakaba hicaye umukozi wa emutiyene wambaye ijire yabo y'umuhondo ndetse bakaba bicaye ku ruhande rw'utuzu dukorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Akazu gasize amabara y’umuhondo, gahagaze imbere y’umurima, gafite ibirahure byinshi. Kubakiye iruhande rw’umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo y’umweru icagaguye uri gukoreshwa n’ibinyabiziga bitandukanye. Imbere yako hakaba hari abantu bari kukanyura imbere ari umuhungu cyangwa umukobwa.

Ibibuga byinshi by'ibitaka bisizwemo imirongo y'umweru bitandukanyijwe n'utwuma cyangwa se senyenge. Bikaba bikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amatara abimurika kugira ngo ababikoresha babashe kubikoresha isaha n'isaha, igihe cyose nta kibazo cy'umwijima bahuye na cyo.

Ikibuga cyubakishijwe sima gisize imirongo y'umweru gifite inshundura zirimo amabara y'umukara ndetse n'umweru gikikijwe n'ibyatsi ,ibiti ndetse n'inyubako ifite irangi risa n'akacyi.

Kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kugirango kimenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga ,uko umuhanda imbere gato uteye, icyapa kikaba kiri mu mabara y'umweru ,umukara ndetse n'umutuku kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere ari umuhanda ukomeza ndetse no mu mbavu zawo hari utuyira tunyura iburyo ndetse n'ibumoso, icyapa gishinze mu busitani bwa pasiparume ndetse hateyemo n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kugira bimenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga uko umuhanda mbere gato'meza kaba ari icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara gishushanyijemo umugabo uri gukora ibikorwa runaka haba ari icyapa gishyirwa ku muhanda iyo hari gukorerwamo ibikorwa byo kuwusana cyangwa se byo kubaka imbere gato kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ahagane yabimenyeshejwe.

Kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kugira bimenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga uko umuhanda imbere gatoya umeze akaba ari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga amabara y'ubururu ndetse n'ay'umweru kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere gato hari umuhanda ukomeza ndetse n'undi ukata ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo usizemo imirongo y'umweruru, yicagaguye ndetse n'idacagaguye ku nkengero zawo, ukaba wari umuhanda ugabanyije hakoreshejwe ibyatsi ndetse n'ibiti, ku ruhande rwo hirya rw'iburyo hakaba hari icyapa kereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko ari kugana ahanyurwa hazengurutswe cyangwa se abanje kuzenguruka.

Icyapa cyashyizwe ku muhanda gisizwe mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara. Gishinzwe kwerekana ko ari umuhanda munini urombereje ndetse n'agahanda gatoya ibumoso.

Icyapa cyerekana cyangwa se kimenyesha umuntu wese uri gukoresha umuhanda cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga ko yamaze kugera mu karere ka Rusizi. Akaba ari umuhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru ibangikanye cyangwa se aho abanyamaguru bambukira. Ku ruhande rw'umuhanda hakaba hateye ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bya pasiparumu.

Kimwe mu byapa bimenyesha abakoresha b'umuhanda cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga, uko umuhanda mbere uteye ni icyapa kiri mu mabara y'umweru umukara ndetse n'umutuku, gishinze muri pasuparume iruhande rw'iburyo bw'umuhanda.

Kimwe mu byapa bitegeka bishyirwa ku muhanda kugira bibashe kumenyesha no gutegeka abayobozi b'ibinyabiziga uko umuhanda wagakwiye gukoreshwa. Akaba ari ikinyabiziga kirimo amabara y'umutuku, umukara, ndetse n'umweru kirimo igishushanyo cy'ikamyo, kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko uwo muhanda utemerewe gukoreshwa n'ibikamyo.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kugira kimenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga uko umuhanda gato ukwiye gukoreshwa ari icyapa kiri mu mabara yiganjemo ay'umweruru harimo n'umutuku ndetse n'ay'umukara kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga by'amagare cyangwa se iby'amapine abiri ko imbere gato bitemerewe gukomeza cyangwa se ahtemerewe kunyurwa n'amagare.

Icyapa kimenyesha cyangwa se kiranga umuhanda uko imbere umeze, cyangwe se ibyerekezo byawoba ari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse yanditswe mu magambo y'ibara ry'umweru ndetse n'utundi tw'ibara ry'umuhondo, haba ari icyapa cyerekana umuhanda ugana kukanyayaruhuye cyangwa se muhanga n'undi muhanda ukata ugana za ruhango cg se kinazi haba ari icyapa cyashyizwe imbere y'amazu ndetse n'ibiti n'ibyatsi.

Icyapa kiri imbere y'umuhanda w'amabuye kerekana nimero y'umuhanda ya ka ka magana ane mirongo itatu n'ikenda sa na ta, kiri imbere y'umuhanda iparitsemo imodoka iri mu bwoko bwa rava isize amarangi y'ubururu ndetse n'umukara.

Umugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire wambaye umupira w'amaboko magufi, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ufite ibikapu ugihekeye inyuma ndetse n'ikindi ahekeye imbere. Ahagaze munsi y'icyapa cyerekana ikaze mu gihugu cy'u Rwanda, iruhande rwe hari umuhanda usizemo imirongo icagaguye ndetse akaba ahagaze mu busitani.

Imihanda ibiri igana mu byerekezo bitandukanye ya kaburimbo isizemo imirongo y'umweru ku ruhande idacagaguye ariko hagati ikaba icagaguye, hakabarimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ikinyabiziga kirimo mu ubwoko bw'ikamyo isize amabara y'umweru, uri umuhanda uteyemo ibyapa bibiri bitandukanye biri no mu mabara atandukanye ndetse byanditsweho n'amagambo atandukanye ariko byose hamwe bikaba bihuriye kori ibyapa biranga cyangwa se ibimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga aho bageze.

Icyapa ndanga gishyirwa mu muhanda cyerekana icyerekezo kimwe, ko umuhanda werekeza ibumoso gusa, kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara mu ishusho y'ikiziga.

Umuhanda wa kaburimbo ugana mu karere ka muhanga ushushanyijemo imirongo y'umuhondo idacagaguye ukikijwe n'abantu benshi ndetse n'ibimera nk'ibiti birebire ndetse n'ibindi byatsi mu bundi bwoko mu muhanda rwagati hari kuberamo amarushanwa y'isiganwa ry'amagare.

Icyapa gishinzwe kumenyesha abayobozi b'ibinyabiziga, umuvuduko ntarengwa wa mirongo itandatu kirometero ku isaha mu muhanda, kiri mu mabara y'umutuku umukara ndetse n'umweru

Abayobozi b'ibinyabiziga by'amapine abiri cyangwa se amapikipiki, bari mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwawo hari ibyatsi ndetse n'ibiti, amatara yo ku muhanda n'ibyapa.

Kimwe mu byapa byo mu muhanda byagenewe kubungabunga umutekano mu muhanda ni icyapa kiri mu mabara atatu atandukanye umutuku, umweru, ndetse n'umukara, iki cyapa kikaba gisobanuye umuhanda kutarenza ibirometero mirongo itatu ku isaha.

kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kugira ngo bamenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga uko umuhanda ukwiye gukoreshwa akaba ari ikinyabiziga kiri mu ishusho y'uruziga kirimo imirongo y'umweru umutuku ndetse n'umukara hakaba hashushanyijemo inyuguti imwe imbere y'uruziga ya p gishatse kuvuga cyangwa se cyerekana ko aho hantu hatemerewe guparikwa cyangwa se guhagarara igihe kirekire

Kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kugirango bimenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga byose biri gukoresha uwo muhanda, uko uwo umuhanda imbere gatoya uteye. Akaba ari icyapa kigizwe n'amabara yiganjemo ay'umweruru arimo ay'umutuku ndetse n'ay'umukara, kikaba gishushanyijemo umugabo urigukora ibikorwa bitandukanye ufite igitiyo cyangwa isuka. Kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere ari kubera ibikorwa by'ubwubatsi cyangwa se isana ry'umuhanda.

Kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kugira bimenyeshe abakoresha umuhanda bose, baba abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, uko imbere gato umuhanda umeze, akaba ari icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, hashushanyijemo umunyamaguru uri gutambuka ku mirongo icagaguye kandi iteganye, kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira.

Kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, bimenyesha abayobozi aho bari kugana icyapa kiriho umugabo uri gukora imirimo y'umuhanda se yo kubaka, kiri mu ishusho y'umutuku umweru ndetse n'umukara gishyirwa ahantu hari kubera ibikorwa byo kubaka cyangwa se gusana mu muhanda.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Inyubako nyinshi zifite amarangi atandukanye, ndetse n'ibisenge bitandukanye, zubakiye muri quartier imwe, cyangwa se mu gace kamwe, ikaba quartier iteyemo n'ibiti byinshi birebire, ndetse by'amoko menshi agiye atandukanye.

Umuyobozi w'ikinyabiziga cy'amapine abiri ipikipiki cyangwa se umumotari, ni umwe mu bari gukoresha umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umuhondo icagaguye, ku ruhande rw'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru uri gukoreshwa n'urubyiruko ruri kugana mu rundi ruhande.

Umugabo wambaye ishati uhetse igikapu wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'isaha kukuboko kw'iburyo ari kugenda agana inyubako nini igeretse gatatu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ndetse n'ibindi bitandukanye mu muhanda hari aho bita kusatere cyangwa se aho banyura bazengurutse harimo ibinyabiziga byinshi nka moto, ndetse n'imodoka.

Akayira k'amabuye cyangwa se k'amapave kagana ku nyubako ifite igipangu cy'umukara, ndetse cyubakishijwe n'amatafari ahiye, akaba ari inyubako isize amarangi y'umweru, ifite ibigega hejuru, ku ruhande rw'ayira hateye ibyatsi bigufi cyangwa se pasuparume ndetse n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Inzu mu ibara ry'umweru, umukara, umutuku ibirahure bifunguye inzugi zifunguye hariho ibyapa byamamaza mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ikinyabiziga gifite ibara ry'umuntu kiri kunyura imbere.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, uri kunyura imbere y'ibyatsi biteye imbere y'inzu ndende igeretse, isize amarangi y'umukara ndetse n'umweru imbere yayo hakaba hari itara ndetse n'insinga.

Inyubako iri hejuru y'umuhanda ifite urugo rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amatara hejuru yarwo munsi hari ibiti ndetse n'ibyapa bitandukanye byamamaza ndetse n'ibimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ku muhanda.

Inzu ndende nini kandi igereritse yubatswe n'amatafari ahiye, ikaba ari inyubako yubakiye ruguru cyangwa se hejuru y'umuhanda w'igitaka, mo imbere mu gipangu hakaba hateyemo ibiti birebire ndetse ikaba izengurutswe n'igipangu cyateweho ibyatsi, cyangwa se kiriho ibyatsi ku rukuta rw'igipangu.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo y'umweru icagaguye ahagana mu buryo bw'umuhanda hakaba hari icyapa cyerekana ko muri uwo muhanda utemerewe gukoreshwa n'ibikamyo cyangwa se nta gikamyo cyemerewe kuhaca, hirya'umuhanda hakaba haparitse ibindi binyabiziga nk'imodoka cyangwa se bihagaze igihe kirekire.

Mu masaha ya ni mugoroba umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, harimo ibinyabiziga byacanye amatara biri kugenda ahanyurwa bazengurutse. Hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti hirya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara ushushanyijeho imirongo myinshi itandukanye n'iy'umuhodo icagaguye ndetse n'iyindi y'umweru iteganye, ikaba ari imirongo yerekana abanyamaguru aho bakwiye kwambukira, ikaba iri gukoreshwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye nka moto.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hagati mu muhanda hakaba hashushanyijemo imirongo itandukanye nk'umurongo w'umuhondo ahagana ku mpera yawo ndetse n'imirongo y'umweru igiye iteganye imenyesha abanyamaguru aho bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara usizwe imirongo y'umweru ndetse n'indi y'umuhondo icagaguye, harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye byo mu bwoko bw'ikamyo, amapikipiki ndetse n'imodoka zisanzwe zigenda ndetse n'iziza, ku ruhande hakaba hari ibyapa bigenga umuhanda ndetse n'ibiti cyangwa se ibyatsi.

Ahagana amasaha ya nijoro umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru icagaguye hari kugenderwamo ibinyabiziga byacanye amatara by'ubwoko butandukanye, hakaba hari icyapa cyerekana cyangwa se kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko ari agace cyangwa se umuhanda banyuramo bazengurutse.

Umwe mu muhanda wo mu Rwanda uriho icyapa cyerekana ko nta guparika igihe kirekire ku modoka zisanzwe, kereka ari imodoka zagenewe gutwara abagenzi.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru icagaguye, harimo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, ku ruhande hari ibyatsi, ibiti ndetse n'ibyapa.

Umuhanda w'umukara cyangwa se kaburimbo isizwemo imirongo y'amabara y'umuhondo acagaguye, harimo ibinyabiziga by'ibinyamitende ibiri cyangwa se amapikipiki, iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse n'ibimera bigiye bitandukanyekanye.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara ushushanyijemo umurongo w'umuhondo, urombereje udacagaguye, hejuru yawo hari undi muhanda ugana mu kindi cyerekezo. Ku ruhande rw'umuhanda hari ibyatsi biteye by'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo usizemo umurongo w'umuhondo ucagaguye, hirya hari ibiti ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru igoroye cyangwa se aho abanyamaguru bakwiye kwambu, hirya y'umuhanda hakaba hari ibinyabiziga biri gukoresha umuhanda bigana mu byerekezo bigiye bitandukanye hakaba hari amapoto y'amatara ndetse hirya hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye.

Umuhanda w'umukara cyangwa se uwa kaburimbo, ugeretseho n'undi hejuru unyura mu kindi cyerekezo, umuhanda wo hasi uri gukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, nka moto ndetse n'imodoka. Ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti birebire.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo, usize imirongo y'umweru cyangwa se aho abanyamaguru bambukira, harimo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare, ndetse n'ikinyabiziga cy'imodoka, hirya gato hakaba hari ikinkinyabiziga cy'amapine abiri cyangwa se ipikipiki.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye harimo amapikipiki yagenewe gutwara abagenzi, ndetse n'imodoka zisanzwe, ku ruhande rw'umuhanda hari imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ifite amabara y'umutuku ihagaze, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibindi bimera.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara usizemo imirongo y'umweruru icagaguye cyangwa se yagenewe abanyamaguru kwambukira mo, umuhanda ukikijwe n'ibyapa byinshi bitandukanye bimenyesha abayobozi guhagarara cyangwa se gukomeza cyangwa se abanyamaguru igihe bambukira n'igihe batari bwambukire.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo igiye itandukanye, ukaba ari umuhanda utandukanywa n'akandi kantu kubatse kazengurukishijwe amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ari umuhanda uri gukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ibigenda ndetse n'ibihagaze ku ruhande igihe gito ndetse n'ikirekire, akaba ari umuhanda wubakiye ku ruhande ibiti ndetse n'amatara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi ariko byiganjemo ibinyabitende by'amapine abiri, hirya hakaba hari imodoka ziri mu bwoko bw'ikamyo.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye muri iyo mirongo harimo iy'umuhondo irombereje idacagaguye, indi akaba ari imirongo y'umweru ishushanyije mu cyerekezo kimwe cyangwa se aho abanyamaguru bakwiye kwambukira, hakaba hateye ibyatsi kuruhande rw'umuhanda kandi mu muhanda rwagati hakaba harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye nk'ibinyamitende moto ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara ushushanyijemo imirongo y'umuhondo, ucagaguye, kuru ruhande hakaba hateye ibyatsi bya pasuparume bigufiya ndetse harimo n'ibiti umuhanda ukaba ukikijwe n'amatara ashinzwe kumurika mu muhanda rwagati ndetse n'ibyapa bitandukanye wari umuhanda ufiteho icyapa kigaragaza umuhanda ugezeho kandi ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo nk'igare ndetse n'abamoto.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijehomo imirongo y'umweru ndetse n'iy'umuhondo urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye bigana mu nzira zitandukanye, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti birebire ndetse hari n'izindi nyubako zubatse, hakaba hari amatara mu muhanda rwagati ahagana hejuru yerekana abayobozi b'ibinyabiziga igihe bakwiye kugenda bahindura icyerekezo n'igihe bakwiye guhagarara bakarinda izindi zigatambuka.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye, nk'umweru ndetse n'indi y'umuhondo, iy'umweru ikaba ishushanyije iteganye mu kerekezo kimwe cyangwa se ikaba yerekana aho abanyamaguru bakwiye kwambukira, hakaba hari gukoreshwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye nka moto.

Umuhanda wa kaburimbo cg se w'umukara ushushanyijemo imirongo y'umweru ucagaguye ufite ku ruhande aho imodoka zitagomba guhagara igihe kirekire cg se zagize ikibazo zikwiye guhagarara wari umuhanda ukikijwe n'amatara ibiti ndetse n'ibyatsi bigiye bitandukanye, uri gukoreshwa n'ibinyabiziga, bitandukanye birimo ibinyamitende bibiri cg se moto ndetse n'imodoka ziri mu bwoko bikane.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka zitandukanye, imwe muri zo iri mu bwoko bw'ikamyo isize irangi ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye, akaba ari umuhanda ugizwe n'utuntu twubakiyemo ibyatsi bigufiya dushinzwe gutandukanya cyangwa se kwereka abayobozi b'ibinyabiziga uko umuhanda ukwiye gukoreshwa, hakaba hari umuhanda ugizwe n'ibindi byapa ndetse ukikijwe n'amatara ashinzwe kumurika mu muhanda rwagati.

Umuhanda w'umukara cyangwa se uwa kaburimbo ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye yiganjemo iy'umweru, hakaba imbere hari ibyapa cyangwa se ibishushanyo byerekana amatara, asobanura uko umuhanda ukwiye gukoreshwa, haba ku banyamaguru ndetse no ku binyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo, ndetse ukaba wubakiyeho hejuru undi muhanda ugana mu kindi cyerekezo. Umuhanda wo musi ukaba uri ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ndetse n'abanyamaguru. Ku ruhande rw'umuhanda hakaba hateye ibiti birebire, ndetse n'ibyatsi bigufi, cyangwa se pasuperume.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa Kaburimbo. Ushushanyijemo imirongo y'umweru iteganye cyangwa se imirongo igenga abanyamaguru aho bakwiye kwambukira. Hirya akaba ari icyapa kimenyesha abanyamaguru igihe bari bwambukire n'igihe bari bureke ibinyabiziga bigatambuka.